Uyu ni umusekiririte. Ni umuntu urinda umutekano ku kigo cy'amashuri. Nkuko bigaragara hariya inyuma ye akaba yambaye agapfukamunwa ari ahantu ho mu kibuga, iruhande rwe hakaba hariho ibiti.

Aha ni ahantu abaturage bambukira mu muhanda bava mu mucyerekezo kimwe bajya mu kindi iyo ibinyabiziga byabaye byinshi mu muhanda birahagarara bakabanza bambuka.

Ubu ni ubwato buri mu kiyaga akaba ari ubwato bwa polisi burimo abantu batatu n'umutwazi wabwo bugiye kurohora abandi bantu babiri barohamye.

Iki ni ikiyaga kirimo ubwato n'umutwazi wabwo n'abantu butwaye, bukaba burimo gufata cyangwa se kurohora abantu barohamye mu mazi.

Iri ni itsinda ry'abaporisi bigaragara ko biteguye gukora akarasisi akaba ari abaporisi b'u Rwanda babakobwa.

Uyu ni umupolisi uri mu muhanda akaba arimo guhagarika imodoka zirimo kugenda ngo arebe ko zujuje ibyangombwa.

Izi ni inyubako bigaragara y'uko zafashwe n'inkongi y'umuriro kandi akaba ari inyubako z'ubucuruzi kuko iruhande rwaho hariho abantu bari guhunga umuriro abandi bari gusatira kugira ngo barebe ibyabaye, n'ibicuruzwa ku ruhande .

Izi ni kamera zifashishwa mu gucunga umutekano. Zikaba ziri kureba mu byerekezo bitandukanye zimanitse hejuru ku ipoto, kugira ngo zimenyeshe ibidakwiye biri gukorerwa aho hantu.

Aba ni abantu bagize itsinda ry'umutekano, barimo abapolisi b'u rwanda, n abasirikari b'u rwanda, n'abari mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Rib, n'abandi babiri bigaragara ko batari abanyarwanda.

Aba ni abagabo bateraniye hamwe bigaragara yuko barimo kuganira. Bakaba barimo kunywa fanta barimo kuganira.

Iyi ni inyubako iteraniyemo abantu bigaragara ko bari mu nama, biganjemo abagore bakaba bicaye mu ntebe z'imikara

Aba ni urubyiruko rw'abakorerabushake bari mu muganda wo gukora isuku mu muhanda nyabagendwa gw' igitaka, bakaba bari kugenda barimo gukubura abandi bayora imyanda.

Aba ni abantu bateraniye hamwe bari mu nama. Abicaye imbere buri wese akaba afite imashini harimo umugabo ufashe mikorofone ari kubwira abandi, hakaba hari n'amazi yo kunywa arambitse ku meza.

Iki ni igicuma giteretse ku meza, kikaba kirimo umusoruru cyuzuye cyarebereye no hejuru, bukaba buri kugenda bumeneka ku ruhande.

Ibi ni ibiseke bikoreshwa mu muco nyarwanda, bikaba bigaragara ko biri mubohero cyangwa se aho babikorera bitegereje abaza kubigura mu bikoresho.

Ibi ni ibitoki barimo gutonora, aba baturage bakaba bari gushyira ibyo batonoye mu muvure, bigaragara ko bagiye kubikuramo umutobe cyangwa urwagwa.

Uyu ni umudamu cyangwa umunyarwandakazi urimo kubyina indirimbo za gakondo, akaba yikoreye igiseke ateze amaboko, akaba ari kumwe n'abandi bagenzi be b'ababyinnyi gakondo.

Aba ni abagore bikoreye inkono za kinyarwanda, bakaba bahagaze mu nzira bagenda, bakaba barimo kuzicuruza, iruhande rwabo hari ishyamba.

Uyu ni umubyeyi uririmo gusya cyangwa kubeta ifu yifashishije urusyo rwo hambere rwakoreshwaga kera akaba ari urusyo rwa gakondo rukoreshwa hifashishijwe ibuye.

Uyu ni umubyeyi ufashe igisabo akaba yicaye agaragara ko arimo gucunda amata mu gisabo, akaba yicaye ku kirago.

Iyi ni inanga y'umuduri ikaba iri kumwe n'umucuranzi wayo bigaragara yuko arimo no kuyicuranga yumvisha abantu inanga.

Uyu ni umuhango wakoreshwaga kera mu gucyura cyangwa se gufatwara umugeni, bikaba bigaragara yuko ari umugeni batwaye mu buryo bamutwaragamo kera, guheka umugeni.

Aba ni abasaza bateraniye hamwe barimo gusangira urwagwa, cyangwa se umusururu bakaba bari kunywera mu bicuma bahawe.

Izi ni inka z'ingweba ziri kumwe n'abashumba bazo, bakaba barimo kuzishora amazi arimo umunyu, zikaba ziri kunywera hamwe.

Iki ni ikirago kirimo kubohwa n'umuboshyi akaba ari bwo akigitangira nk'uko bigaragara akaba afite ubwatsi n'imigozi yo kubohesha.

Aba nabagabo babiri bigaragara yuko barimo kuganira. Bafite imbago irimo umusururu n'uruho bari kunywesha rurimo umusururu, akaba ari rwo bari kunyweramo.

Iki ni igikoresho cakoreshwaga kera mu muco nyarwanda， kikaba cyarakoreshwaga mu gushigisha igikoma， kikaba cyarakoreshwaga hambere， kikaba kirambitse ku meza.

Uyu ni umubyeyi umaze gusarura ingano, akaba arimo kuzigosora ari gukuramo inkumbi cyangwa se indi myanda itandukanye, iruhande rwaho hakaba hari ibindi byinshi bitandukanye n'inyubako zitandukanye.

Aya ni amayoge cyangwa se amayogera, akoreshwa mu mbyino gakondo akaba akoreshwa n'intore ziyambaye ku birenge, kugira ngo aze kubafasha mu mbyino zabo.

Ibi ni ibicuba cyangwa se ibyansi bikoreshwa mu gukama amata bakanabinyweramo amata. Bikoreshwa cyane mu muco gakondo, bikaba bigaragara ko biri ahantu bicururizwa.

Iyi ni isekuro ikaba irimo imyaka isombe cyangwa si isombe barimo gusekura bari kuyitunganya, kugira ngo babone uko bayiteka.

Aba ni abakaraza bari kuvuza ingoma, buri mukaraza akaba afite ingoma ye, harimo abagabo bane n'umugore umwe, inyuma yabo hari inyubako y'indaro .

Aha hateraniye abantu batandukanye bari mu muganda, iruhande rwabo hari imodoka nini itwara abantu ya kwasiteri ,inyuma yabo hakabaho inzu yimukanwa izwi nka tente n'inyungururamajwi zizwi nka bafure.

Aba ni abaturage bari mu muganda bigaragara ko bari kumwe n'inzego z'umutekano, abasirikare n'abayobozi muri rusange, bakaba bari gukora umuganda wo guhinga.

Zi ni insinga z'amashanyarazi ziri mu gikarito kirambitse hasi. Urutsinga rumwe rukaba rutonoye ku mutwe warwo hejuru.

Iyi ni telefone igezweho ya simati fone ikaba irambitse ku meza yambaye igifuniko cy'umutuku ikaba irambitse ku meza.

Uyu ni umuntu urimo kubaka urugarika, akaba afite icyuma cyitwa umukotezo. Akaba ari gukotera sima hagati y'urugarika rumwe n'urundi.

Iki ni Ikiliziya gifite umunara muremure, gifite n'amayesikariye imbere yacyo, iruhande rwacyo hari inzu z'abaturage, hakabaho n'ibishushanyo bya ba Bikiramariya.

Uru ni urusengero runini rwubakishijwe amatafari ahiye, rukaba rufiteho igishushanyo cy'umusaraba imbere, rukaba rufite urugi n'amadirishya, rufite irangi jy'umweru n'imbuga nini abantu bavuye mu Kiliziya.

Uru ni urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye n'ibirahure byinshi，rusakajwe amabati atukura，uruzitiro gwarwo gw'ibyuma n'inkingi z'amatafari ahiye.

Iyi ni inyubako ya Leta ishobora gukorerwamo ibintu bitandukanye bya Leta. Nk'uko bigaragazwa n'amadarapo ahari, ry'igihugu cy'u Rwanda n'iry'Afurika y'uburasirazuba. Akaba ari inzu yubakishijwe amabuye.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, ukaba unyuze mu kibuga hagati. Iruhande rwacyo hakaba hari urusengero rufite iminara miremire iriho imisaraba. Iruhande hakaba hari ikigega cy'amazi.

Iki ni icyapa kigaragaza cyangwa se kimenyesha ko hano hari ari ku bitaro bya Ruhengeri, bikaba bizitijwe senyenge cangwa se uruzitiro rw'ibyuma n'inkingi z'amatafari ahiye, bikaba bri iruhande rw'umuhanda munini wa kaburimbo.

Iki ni icyapa kigaragaza umuvuduko ntarengwa wo muri kaburimbo umushoferi aba akwiye kutarenza igihe ageze aho hantu. Bikaba bigaragara ko umuvuduko ntarengwa hano ari mirongo ine.

Uru ni urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye, rusakajwe amabati ya kera yitwa amategura. Rufite inzugi n'amadirisha by'imbaho n'umusaraba hejuru ku muryango.

Iyi ni salo irimo intebe zirimo imifariso n'ameza na televiziyo, n'umuntu uri gutereka intebe aho zikwiye kuba ziri.

Uru ni urusengero basengeramo iruhande rwabo hakaba hari andi mazu atandukanye, rukaba ruzitijwe n'igipangu cy'amatafari.

Iyi ni inyubako ya Leta igaragaza ibiro by'Akarere ka Gakenke, akaba ari inyubako igeretse kabiri, iruhande rw'aho cyangwa se imbere yaho hakaba hariho amadarapo abiri, idarapo y'u Rwanda n'iderapo rya Isiti Afurika.

Aya ni amatafari ari mu kinombe ariko yamaze gutwikwa, yamaze gushya, bayatondetse, ategereje yuko haza umukiriya cyangwa imodoka bakayapakira.

Iyi ni inyubako ya Leta igaragara ko ari ibiro by'intara y'Amajaruguru byubatswe, bikaba bifite irangi ry'umuhondo mu miryango. Ifite n'amarido yiganjemo umweru.

Aba ni abaturage bari mu nama. Imbere yabo hakaba hari umuyobozi ari kwerekana mugenzi we umanitse ikiganza ngo basuhuze. Bakaba bakoreye inama mu ishyamba.

Izi ni imodoka nini zikoreshwa mu gutwara abagenzi bikaba bigaragara yuko ziri muri Parikingi kuko zirenze imwe kandi zihagaze hamwe.

Iyi ni imodoka nini ikoreshwa mu gutwara abagenzi. Kuri ubu ikaba irimo gutwara abanyeshuri bavuye ku ishuri cyangwa bagiye ku ishuri bakaba bambaye n'imyambaro y'ishuri.

Iyi ni imodokadoka ntoya zifashishwa mu gutwara imizigo，zikaba zinapakiye imizigo zitwikiriwe n'amashitingi y'ubururu，iruhande rwazo hakaba hari amazu y'ubucuruzi.

Aha ni ku kibuga k'indege hakaba hariho n'abagenzi barimo kujyayo hakaba hari n'idarapo ry'igihigu cy'u Rwanda.

Uyu ni umudamu utwaye imizigo ku igare akaba ari kunyura mu muhanda munini iruhande rwe haparitse imodoka ntoya ebyiri.

Iyi ni imodoka nini ya Fuso itwaye umucanga, ikaba iwupakiye mu kinombe cy'umucanga. Iri kwinjira mu muhanda mugari ngo igende.

iyi ni imodoka y'abagenzi, itwara abagenzi bigaragara ko iri muri gare harimo n'abagenzi bari kuyigana, iruhande rwaho hakaba hari indi modoka nanone ya ritiko nayo itwara abagenzi.

Aba ni abashoferi b'amagare barimo kuganira n'umuyobozi wa Polisi afashe Mikorofone, abashoferi b'amagare bakaba bari kumwe n'amagare yabo.

Iyi ni imodoka nini imodoka ijyamo abantu ariko ikoreshwa muri serivisi z'ubuzima nko gupimwa sida gutanga amaraso n'ibindi bitandukanye

Iyi ni imodoka nini ikoreshwa mu gutwara imizigo, ikaba irimo kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hariho ishyamba ry'ibyatsi.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi akaba ariyo n'izindi ngenzi zazo nyinshi ziparitse, bakaba barimo kwinjizamo abafite ubumuga.

Iyi ni moto ya lifani ikaba itwawe n'umugabo, ikaba isa n'ubururu, iruhande rwayo hariho ibyapa byamamaza.

Izi ni imodoka nini zikoreshwa mu gutwara imizigo. Zikaba zirimo kubisikana imwe inagaragara yuko ipakiye ibintu byinshi kuko imihanda ya...

Iyi ni imodoka nini ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa, ikaba bashyiramo ibicuruzwa mo imbere, mo imbere ikaba itwaye contineri ebyiri.

Iyi ni moto iri kugenda mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo ikaba itwaye umugenzi iruhande rw'uyu muhanda hakaba hariho umuhanda cyangwa se inzira yabagenzi basanzwe bagenda n'amaguru.

Uyu ni umushoferi w'umukobwa utwaye moto ya rifani, akaba yambaye na kasike ,akaba ari moto ikoreshwa mu gutwara imizigo.

Izi ni imodoka nini zikoreshwa mu gutwara imizigo. Iy'imbere ikaba itwaye ibihombo binini. Zikaba ziri kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo.

Iyi ni stade ikinirwamo umukino wumupira w'amaguru ikaba irimo n'abafana cyangwa se abaturage baje kureba umupira.

Iki ni ikibuga kiri gukinirwamo umukino wa handiboro. Ukaba uri gukinwa n'abagabo, iruhande rwabo hakaba hariho abafana baje gufana.

Uyu ni umunyarwandakazi cyangwa se umukobwa, urimo gukina umukino wa basikete. Aba yambaye ijire n'isaha ku kuboko.

Aba ni abakinnyi bari gukinira muri sitade iruhande, rwa bo hakaba hari abatoza ba bo barimo kubareba uko bari gukina.

Aba ni abakobwa bari gukina umukino wa baskete, akaba bigaragara ko ari amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye ubururu, indi yambaye umweru.

uyu ni umuhanda uri kuberamo isiganwa ry'amagare iruhande rwaho hariho abaturage baje gushyigikira nangwa se gufana n'amazu asanzwe y'ubucuruzi n'ibyapa byamamaza amakoampani atandukanye.

Uyu ni umupira wifashishwa mu gukina umukino wa volebolo, umukino ukinwa hakoreshejwe amaboko cyangwa se intoki.

Iyi ni ikipe ikina ikaba yicaye aho abafana cyangwa abaturage bicara mu gihe bari kureba imikino yabereye kuri iki kibuga.

Iyi ni ikipe iri mu myitozo ikaba yakoze uruziga. Iri kumva inama z'umutoza wabo. Iruhande rwabo hakaba hari fire bakiniraho voreboro n'amashuri yigirwamo.

Uyuru ni umupira wa voreboro ukoreshwa mu gukina umukino wa vore cyanga se umukino bakoresha bakinisha intoki mu gihe uba urimo gukina.

Uyu ni umuntu uri koga muri pisine, akaba yambaye akagofero gatoya na linete zo mu mazi.

Aba ni abantu bari mu marushanwa y'amagare bakaba ari igikundi cy'abantu benshi bari ku magare mu isiganwa bakaba bari mu muhanda bari kugenda.

Uyu ni umukino wa Volibolo ukaba uri gukinwa n'abagabo, iruhande rwabo hakaba hari abantu benshi baje ku bafana.

Uyu ni umukino w'amaboko uzwi ku izina rya volebolo, ukaba uri gukinwa n'abantu bafite ubumuga, bakaba bari gukina bicaye hasi.

Aba ni abakinnyi ba Basikete, akaba ari abakinnyi b'abakobwa, bakaba bari kumwe n'umutoza wabo ari kubagira inama.

Uyu ni umukinnyikazi w'umukobwa urimo gukina umukino wa basikete inyuma ye hakaba hari icyuma bifashisha mu kujugunyamo umupira.

Uyu ni umuhanda urambuye ukomeje hakaba harimo na Ropuwe, uruhande rwaho akaba ari amazu y'ubucuruzi atandukanye n'ibyapa byo kwamamaza.

Iyi ni parikingi y'umuhanda w' igitaka ikaba irimo imodoka zitwara abagenzi na moto zitwara abagenzi, iruhande rwayo bigaragara ko hariho kaburimbo.

Uyu ni umuhanda w'igitaka unyuze hagati mu baturage, hakaba iruhande rw'aho hateye indabo, mu rundi ruhande ruteyemo amasipuri, hakaba hanyuzemo n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi.